Abagabo babiri b'abubatsi bambaye amajire n'ingofero z'amakasike zibarinda gukomereka. Amajire bambaye aratandukanye; umwe yambaye ijire isa n'icyatsi, undi yambaye iji ijya gusa n'iroza bahagaze imbere y'akabati kanini.

Abasirikari bitabiriye igikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya cumi na gatanu Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, bigaragara ko bari gucana urumuri rw'ikizere buri wese bamuhereza itara ririho urumuri.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bateraniye hamwe bitabiriye umuganda rusange wabaye kuwa gatandatu w'icyumweru gishize, aho wari uwa gatandatu wa nyuma w'ukwezi kandi buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi Leta y'u Rwanda iba yarateganyije umuganda rusange.